Abayobozi b'ingeri zitandukanye, aho bahuriye hamwe kugira ngo bakore inama yiga ku iterambere ry'uburezi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bigamije iterambere ry'Umujyi wa Kigali.

Abayobozi bahuriye hamwe kugira ngo bungurane ibitekerezo ku ngingo zigiye zitandukanye, imbere habateretse amacupa y'amazi ndetse ku meza imwe hateretse umuti wifashishwa mu kwica udukoko two mu ntoki.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe mu ngeri zigiye zitandukanye, harimo aba mama, urubyiruko ndetse n'aba papa. Aba mama bakaba bambaye imikenyero, aba papa bakambara amakote ndetse n'abandi bambaye amashati n'amakaruvati.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bahuriye hamwe mu nama kugira ngo bige ku ngingo zitandukanye ndetse n'ibibazo bigiye bitandukanye biriho.

Abayobozi b'ingeri zitandukanye bahuriye hamwe kugira ngo bige ku bibazo byugarije abaturage, umwe ku wundi agenda atanga igitekerezo cy'uko abyumva. Imbere yabo bafite amazi yo kunywa mbese ibintu byiteguwe nk'uko bisabwa.

Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Imisoro n'Amahoro kiributsa abasora bose ko hari amahirwe arimo kwigaragaza kubushake: amahirwe ya mbere, ntucibwa ibihano bijyanye no kutamenyekanisha no kutishyura uwo musoro, ntucibwa inyungu z'ubukererwe. Ushobora kwishyura umusoro wagaragaje mu byiciro. Kwigaragaza ku bushake bizarangirana na tariki makumyabiri n'ebyiri zukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na kane.

Urubuga rw'irembo, ikigo cy'igihugu gishinzwe korohereza abaturage kubona serivisi za Leta, bakazibona batarinze kujya gutonda imirongo miremire kandi bakazibona biboroheye, ikindi ndetse banabyikoreye.

Ikigo cy'imisoro n'amahoro kirerekana uburyo kigena imisoro ku mutungo itimukanwa, urugero cyerekana ko ubutaka bwagenewe kubakamo ndetse n'imiturire busora gatanu ku ijana by'agaciro k'uwo mutungo.

Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kiributsa abasora bose ko ushobora kumenyekanisha umusoro wawe wa 2025 uyuze ku rubuga www.rra.gov.rw akadorwa ndetse ukanishyura bitarenze ku itariki 31/01/2025

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo ifitiye abaturage akamaro RURA kiributsa uburyo bwiza bwo gukoresha gaze mu ngo, aho cyibutsa abaturage ko ugomba kugenzura buri gihe ko icupa ritangiritse igihe cyose rikugejejweho.

Ahareberwa ibisubizo by'ibizamini byafashwe bapima Kovide cumi n'icyenda. Ukaba usabwa nimero za telefoni ndetse na kode baguhaye, ukaba wabasha kubona ibisubizo byawe.

Kwigaragaza ku bushake, gahunda y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, ishishikariza abaturage gutangira imisoro ku gihe, babigizemo uruhare kugira ngo hirindwe kuba bafatirwa ibihano ndetse no gucibwa amande y'ubukererwe, bitarenze ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa Cumi bibiri na makumyabiri kane.

Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, kiributsa abafite ubutaka bose ko kumenyekanisha umusoro ku bukode bw'ubutaka ndetse no kwishyura, bizarangira bitarenze kuwa kane, tariki makumyabiri n'icyenda z'ukwa kabiri, bibiri na makumyabiri na kane, ushobora kumenyekanisha umusoro unyuze ku rubuga rw'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ndetse ukanishyura ukoresheje mobile money.

Ahatangirwa serivisi zitandukanye harimo iz'amabanki utarinze kujya gutonda umurongo, ukaba wabasha kubitsa no kubikuza ndetse hakanatangirwa serivisi z'itumanaho z'umuyoboro wa Airtel.

Tsindira itike yo kujya mu gitaramo cyiswe muve Afurika. Cyatumiwemo umuhanzi w'icyamamare, akaba ari umuhanzi wamamaye mu ndirimbo cyane cyane iz'urukundo, umuhanzi w'umuhanga. Iki gitaramo kikaba cyarateguwe ku bufatanye na Golobo Sitizenizi. Ushobora kugira amahirwe yo kuba wabona itike yo kwitabira iki gitaramo.

Ipoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, aho umuturage ashobora kubona umuriro bimworoheye akabasha gukora ibikorwa bimufitiye akamaro, bigiye bitandukanye.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage ndetse no mu duce dutandukanye tw'igihugu, aha ngaha bari mu kazi gatandukanye kabo ka buri munsi aho bari baruriye ipoto ishinzwe gukwirakwiza umuriro kugira ngo bagire ibyo bakoraho.

Iyi foto iragaragaza kwa muganga ikerekana ibyapa biyobora abarwayi aho batangira serivisi zo kubaga ndetse n'aho batangira serivisi z'ubuvuzi bw'amaso.

Iyi foto n'iyo kwa muganga, iri kugaragaza umurwayi ndetse na muganga, aho umuganga ari gusuzuma umurwayi ku burwayi bw'amaso bugiye butandukanye, hakoreshejwe ibyuma by'ikoranabuhanga byabugenewe.

Umugore wambaye imyenda yo mu ibara ry'iroza ndetse wambaye n'amapingu ku maboko, ari kumwe n'abacungagereza babiri, umwe w'umugore ndetse n'undi w'umugabo hamwe n'imodoka.

Igororero ry'akarere ka Musanze, Ahafungirwa abantu bakoze ibyaha bitandukanye, kugira ngo bafashwe gusubizwa mu murongo muzima.

Umuturage witwa Fulgence Kayishema, wafunzwe ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umuhanzi wamenyekanye cyane mu ndirimbo zicurangitse mu buryo bwa gihanga, akaba yaramenyekanye ku mazina ya Kizito Mihigo ndetse akaba afite indirimbo zagiye zikundwa na benshi, cyane cyane aho yagiye asubiramo indirimbo za Kiliziya Gatolika, nk'indirimbo yitwa ku musaraba Yesu umukiza wanjye.

Umutwe wa mbere, ingingo rusange, ingingo ya mbere icyo iri tegeko rigena, iri tegeko rigena imiterere n'imikorere ya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yitwa komisiyo, mu ngingo zikurikira.

Igazeti ya leta yo ku itariki enye z'ukwa munani bibiri na makumyabiri gatatu, mu mwaka wa mirongo itandatu na kabiri, igazeti ya leta idasanzwe yo ku wa kane z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda.

Ingingo ya cumi, ububasha bw'ubugenzacyaha n'ubwo kuregera inkiko, abakomiseri bafite ububasha bw'ubugenzacyaha buhoraho ku ifasi yose y' u Rwanda igihe bari mu mirimo yabo, iyo bibaye ngombwa umukozi wa komisiyo ahabwa ububasha bw'ubugenzacyaha abisabwewe na perezida wa komisiyo mu nzego zibishinzwe.

Imfungwa ndetse n'abagororwa bafungiwe hamwe, bamwe bafite amajerekani ndetse banambaye umwenda w'ibara rya oranje n'abandi bambaye umwenda w'ibara ry'iroze.

Ububiko bw'inyandiko za gacaca. Hakabahari inyandiko zigaragaza ibirego bigiye bitandukanye byakemuwe na gacaca ku bufatanye n'abaturage.

Itsinda ry'abashinzwe kuzimya umuriro, aho bari bari guhugura abana bato ku buryo bwo kuzimya umuriro hifashishijwe imodoka zabugenewe zitangwa n'umuryango w'abibumbye.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro gikunda gushyirwa ahantu cyane cyane hashobora kuba hateranira abantu benshi ndetse hari n'ibyago byinshi byo kuba haba inkongi y'umuriro, igikoresho cyifashishwa haridwa ubuzima bw'abahuriye muri ako gace cyangwa muri iyo nyubako.

Umupolisi uri mu kazi, aho yari ari guhagarika imodoka ngo ayibaze ibyangombwa ndetse arebe ko n'uyitwaye wujuje ibisabwa n'amategeko kugira ngo abashe gutwara imodoka.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye cyane cyane higanjemo urubyiruko batonze imirongo bakaba bategereje guhabwa serivisi runaka.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kgame ndetse n'abamurinda, aho yari ari gusuhuza abaturage mu bikorwa byo kwiyamamariza, kuyobora igihugu kuri manda ye yindi.

Uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Igihugu cy'u Rwanda Louise Mushikiwabo akaba kuri ubu ngubu ahagarariye umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa, akaba ndetse ari n'inshuti y'urubyiruko cyane.

Ihuriro ry'abakozi b'ibigo by'itangazamakuru bitandukanye mu gihugu, aho bahuriye hamwe kugira ngo baganire n'umukuru w'igihugu ndetse banamubaze ibibazo bitandukanye ku byo ateganyiriza gukorera abaturage.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zikaba ari imodoka zikorerwa mu gihugu cy'Ubushinwa kandi izi modoka zikaba zikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda mu gutwara abantu ndetse n'ibintu mu buryo bwa rusange cyane cyane mu mujyi wa Kigali, ni imodoka zizwi ku izina rya shira umuteto.

Abakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku kinyabiziga kizwi nka moto bazwi ku izina ry'abamotari, aho baparitse ahabugenewe bategereje gukora akazi nk'uko amabwiriza abitegeka ndetse n'umuturirwa n'ibikorwa byamamaza bigaragara ku muhanda.

Imodoka iri mu bwoko bwa Pikapu y'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru, kizwi nka RBA mu magambo ahinnye ndetse n'ubwiza nyaburanga bugaragazwa n'imikindo ndetse n'ibindi bimera karemano bigiye bitandukanye.

Imodoka itwara abantu ndetse n'ibintu mu buryo bwa rusange, ikaba ari imodokadoka y'ikigo gishinzwe gutwara abantu n'ibintu cyitwa Yahu gikorera mu Rwanda, ni imodoka ikora mu duce dutandukanye tw'igihugu harimo intara y'amajyaruguru, intara y'ububurasirazuba ndetse n'intara y'iuburengerazuba.

Imodoka izwi ku izina ry'ubwoko bwa fuso, ikaba iriho ishusho y'umuhanzi wamamaye cyane mu njyana ya rege, witwa Bob Marley, ndetse n'umuperezida wa Afurika uzwi ku izina rya Nelson Mandela, ikaba yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa bigiye bitandukanye mu duce na tumwe tw'igihugu.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso, ikaba ihagaze mu muhanda. Ndetse n'umuntu ukora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu kuri moto akaba ayihagaze iruhande. Imodoka ikaba itwikirije shitingi y'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, bari mu mirimo igiye inyuranye, harimo abari kuri moto, abari ku magare, abari mu modoka ndetse n'abari kugenda n'amaguru bose bakaba bari mu isantere ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi.

Umuhanda nyabagendwa, urimo imodoka ndetse na moto zerekeza mu byerekezo bitandukanye, imodoka ikaba ihetse ibikoresho by'ubwubatsi, harimo inzugi, hakaba harimo n'umuntu wikoreye imizigo ku mutwe ndetse n'undi uri kuvugira kuri telefoni.

Moto zizwi ku izina rya lifani zifashishwa mu gutwara ibintu mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu cyane cyane ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'ibicuruzwa n'ibindi.

Imodoka yo mu bwoko bwa dina iri mu muhanda wa kaburimbo, ikaba itwaye amapine atwikirije shitingi y'ubururu ndetse muri iyo modoka hakaba hicayemo umuntu inyuma aho aya mapine ari.

Inyubako nziza ndetse n'ahantu heza ho kuruhukira, aho urujya n'uruza rw'abantu bahurira bakicara bakaganira bakaruhuka ndetse bakanifotoza ubundi urugendo bakabona kurukomeza.

Inzira yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru gusa, nta kinyabiziga kihanyuze. Aho abantu bashobora guhura bakaganira, bakaruhuka, bakifotoza ndetse bagakora n'ibindi bikorwa bitandukanye bibafasha kuruhuka.

Inyubako itujwemo imiryango igitandukanye, ikaba yubatse ahantu heza kuko ari impande y'umuhanda ndetse n'abana babona aho bisanzura, bakabasha kuba bakina.

Icyapa kirimo ubwoko bw'ibyapa bitegeka, kigaragaza ko umuvuduko ntarengwa w'ibinyabiziga bikoresha uwo muhanda ari mirongo itandatu ndetse n'icyapa kiburira cyerekana ko hari icyuma gifata abarengeje uwo muvuduko imbere.

Icyapa gishyirwa aho abanyamaguru batambukira bava mu gice cy'umuhanda bajya mu kindi, gitegeka umuyobozi wese ugeze aho ngaho, guhagarara umwanya muto akareka umunyamaguru ushaka gutambuka agatambuka.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye, kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu hamwe n'umukara, kigaragaza akayira k'abanyamaguru banyuramo iyo bashaka kuva mu gice cy'umuhanda, bagana mu kindi gice cy'umuhanda.

Icyapa kirimo ibyapa biburira, kikaba ari icyapa cyerekana akayira k'abana nk'igihe bavuye ku ishuri cyangwa ku kibuga cy'imikino. Iyi foto kandi iragaragaza ubusitani bwegereye umuhanda ndetse n'abantu bari kunyura muri uwo muhanda.

Icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere, ni icyapa gitegeka umuyobozi wese mu nkomane, ahari ikimenyetso cyo guhagarara gato mbere yo kwinjira mu nkomane no guha inzira ibindi binyabiziga bigenda mu muhanda yegera.

Icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, kiri mu ishusho ya mpande eshatu, kigaragaza ko cyangwa kiburira umuntu wese ukoresha uwo muhanda ko aho agiye kunyura ari mu gice cy'umuhanda gikorerwamo imirimo itandukanye.

Umusore uri kwifotoza wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara ndetse n'agapira k'umukara, akaba ahetse n'igikapu ndetse n'icyapa giha ikaze abana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere ka Rusizi.

Aka gace kagenewe guturwamo, ni agace ushobora kuba wabonamo ibibanza kuko bigihari, ukaba wakubakamo inzu ntoya iciriritse cyangwa inzu igeretse.

Inyubako z'imiturire ndetse n'izo gukoreramo ibikorwa bitandukanye, ni inzu nziza ziri ahantu hari amahumbezi ndetse hari n'umutekano uhagije.

Inyubako ikoreramo ikigo cy'ubucuruzi kizwi nka Kigali seramikizi, ni ikigo gicuruza ibikoresho by'ubwubatsi cyane cyane ibyiganjemo amakaro ndetse inyubako iri kugaragaza umurongo wabahamagaraho ukeneye ibyo bikoresho.

Inyubako zubatse mu buryo bugezweho, hubahirizwa gahunda ya leta yo gukura abantu mu kajagari, ndetse n'imirima itandukanye ikorerwamo ubuhinzi bugiye bitandukanye, harimo ubuhinzi bw'urutoki, ndetse n'ubuhinzi bw'ibigori.

Inzu nziza ibereye ijisho kuyireba kuko yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, ikaba ifite urupangu rwiza runini kandi rugari, ikaba yubatse impande y'umuhanda.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse ikaba itangirwamo n'izindi serivisi zigiye zitandukanye, amamodoka aparitse imbere y'iyo nyubako ndetse n'abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu kuri moto.

Parike y'ubwiza ya Nyandungu, akaba ari parike iherereye mu mujyi wa Kigali igaragaza ibyiza karemano bitatse umujyi wa Kigali, harimo ibimera gakondo ndetse n'inyoni z'ubwoko butandukanye.

Umuhanda nyabagendwa urimo imirongo y'umweru yerekana ko hari ahabugenewe abanyamaguru bagomba gutambuka mu gihe bava mu gice kimwe cy'umuhanda bambukiranya mu kindi gice, ndetse n'ingo zikikije uwo muhanda.

Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku kinyabiziga kizwi nka moto, aho umwe atwaye umukobwa uhetse igikapu mu mugongo undi akaba atwaye umugenzi ukikiye ibintu mu gikarito.